Ubuvuzi ni kimwe muri serivisi nziza zihabwa abaturage, uburyo bwo kubaho ubuzima bwiza. Mu karere ka Musanze, dufite ibitaro bikuru bya Ruhengeri bitanga ubuvuzi, ndetse na serivisi zitandukanye z'ubuvuzi mu byiciro byose.

Ubuvuzi ni kimwe mu bikorwa byiza cyangwa se mu iterambere ry'igihugu， bigenda byigaragaza bitewe n'ubumenyi bw'abaganga， ndetse n'abakora mu bigo nderabuzima bigenda bitandukanye，urugero mu karere ka Musanze ikigo nderabuzima cya Ruhengeri，kiriya ni hopitari，nicyo gikuru mu karere，gitanga ubuvuzi bwiza ndetse n'ababukoramo， ndetse na natwe tubikorerwa bikatugirira umumaro n'igihugu muri rusange.

Ibimera bimwe tubona ni imiti yakoreshwaga n'abakera, aho nubu igikoreshwa ushobora kubisoroma ukabijyana kubitunganya ukabikuramo umuti.

Indabo n'ubwoko bw'imbuto cyangwa se bw'ibihingwa, mbese bigenda bizamura abantu hirya no hino, biterwa hafi y'umuhanda ku muharuro mu rugo, bigenda bigaragaza isura y'urugo neza.

Hari uburyo bwinshi bwo kubakwa. Nko kubaka amazu yo kubamo, bitewe n'ibikoresho byinshi bikoreshwa mu kubaka amazu yo kubamo. Mu myubakire, umuntu yubaka inzu bitewe n'ubushobozi afite, ndetse agakoresha ibikoresho bitewe n'ubushobozi afite. Bamwe bagenda bakoresha inkarakara, bitewe n'ahantu baba n'itaka rihaboneka, kuko inkarakara n'ibintu bidasaba imbaraga nyinshi n'ubushobozi bwinshi, bikorwa vuba kandi mu gihe gitoya.

Urubingo ni ibyatsi cyangwa se ni ibimera biribwa n'amatungo, ndetse bikaba biboneka mu bice bitandukanye by'igihugu, hirya no hino mu Rwanda bikaba bigaburirwa amatungo.

Hari ibiti bimwe tugenda tubona by'ibimera tukagira ngo nta mumaro bifite, ariko burya icyarimwe cyose kigira umumaro. Tukiri aho hari ibiti tubona bifite amababi, bikagira n'uturabo, ibyo byose biba bifite umumaro.

Ibyatsi tubona ni ibyatsi by'amatungo irwanya ibyatsi bikundwa cyane n'amatungo ariko n'ibyo bihugu birigwanga ibyatsi bigira amata, siko amata yose abiriye agira mututsi akabasha kujya atanga umusaruro agakora neza.

Mu bice bitandukanye mu mirima, ndetse n'ahantu hari udusozi hagenda hagaragara ibyatsi bitandukanye ari ibifite indabyo, ibyo byatsi bigira umumaro kuko bigarurirwa amatungo yo mu rugo.